Iyi foto iri hano igaragaza abantu bifotoje bari imbere y'ibiro by'Umurenge wa Rukomo, biragaragara ko bari bahujwe n'igikorwa runaka nyuma bakaza kwifotoza.